Abana bateraniye hamwe mu cyumba, aho bicaye ku mukeka baganirizwa kandi bigishwa kwitanaho ndetse no gusobanukirwa uko abantu bagomba kubana muri sosiyete.

Abana bateraniye hamwe, bari kwiga uko bakwiye kwitwara, bigishwa ndetse bisanzuranaho, kugira ngo baguke mu bwenge no mu bitekerezo, bityo bitere gutera imbere kw'Igihugu.

Abana b'imyaka mitoya, bicaye hamwe baganira ndetse bafite n'ibikinisho, bijyanye n'amabara yabo agiye atandukanye, harimo ubururu, icyatsi n'umuhondo, umutuku, ndetse n'ibindi bituma bakanguka mu mutwe, bakisanzuranaho.

Abanyeshuri bari mu ishuri rimwe, biga ndetse bakitanaho, bari kumwe na mwarimu, ari kuba yigisha ibikwiriye kubaranga nk'abana, bityo babere Igihugu umumaro.

Abanyeshuri b'inshuke bari hamwe, hagati yabo harimo umuyobozi uberekera ibyo bakora, ndetse anababwira ibikwiriye abana beza, bityo abana bagakura bafite umuco na disipurine.

Abanyeshuri bari hamwe mu itsinda rigari, aho bafite ibikinisho mu mabara atandukanye, ubururu, umutuku ndetse n'ibindi bagenda baganira bungurana ibitekerezo.

Abanyeshuri batoya bari hamwe barimo kubwirizwa n'umwarimu wabo mukuru aberekera ko bakwiye gufata ibidukikije neza ndetse bakaba bafata ubumenyi bugiye butandukanye.

Abana bari hamwe babifashijwemo n'umubyeyi abaha igikoma ndetse bicaye hasi ku mukeka mu nzu, abigisha uko bagomba kwitwara ndetse abaha n'uburere mboneragihugu.

Abanyeshuri b'imyaka igiye hasi, barimo baganira, bafite udukinisho twabo, tw'amabara atandukanye, ubururu, umutuku, umukara, icyatsi, ndetse n'utundi turimo.

Abana bicaye hasi, barimo kuganirizwa, mu irerero rya ECD Ituze, kandi bahabwa n'uburere bukwiriye, kandi bakagira amafunguro babagenera.

Abana b'incuke bahurijwe hamwe kugira ngo bigishwe kwitanaho ndetse no kumenya imibonezamubano, ndetse n'indangagaciro zabo.

Abana b'incuke bicaye ku mukeka bafite ibikombe birimo igikoma, ndetse na telefone ziri hasi, aho umubyeyi abigisha uko bakwiye kwitwara ndetse bagatinyukana.

Abanyeshuri b'incuke bateraniye hamwe, bari kumwe n'umwarimu wabo ubafasha, mu kwiga ndetse no gusobanukirwa icyo bakwiye gukora kugira ngo bamenye ubwenge, kandi bajijuke.

Abanyeshuri b'inshuke bari mu ishuri, bicaye bari gusoma ibitabo ndetse bareba n'amashusho bituma bakanguka mu bwonko, bakaba abanyeshuri b'ingirakamaro.

Umunyeshuri uri kwiga imibare yandika mu ikayi ndetse afite na terefone, aho imufasha kumenya neza igisubizo cya nyacyo, bityo agakomeza kwiga kandi afite umuhate.

Icyumba cy'ishuri kigaragara ko giteguwe neza, ahari ibishushanyo bigiye bitandukanye bya mudasobwa, ndetse byerekana n'ibice byayo, harimo n'ikibaho cy'umwarimu yigishirizaho.

Ubusitani burimo indabyo, ibyatsi ndetse n'amashuri asakaje amategura, hari abana b'abakobwa bambaye imyenda y'ubururu, b'abanyeshuri barimo gutembera mu busitani.

Ikigo cya segonderi cyegamiye ku itorero rya Angilikani mu Rwanda, giherereye i Shyogwe, aho gitanga uburezi ku banyeshuri bagiye batandukanye, bafite indangagaciro zigiye zitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa uri imbere y'ubusitani buri mu kibanza cy'inyubako y'urusengero, ahari n'ikigega gikusanya amazi, hari n'amashuri abanyeshuri bigiramo.

Ibishushanyo biri kurupapuro byerekana ingorofani, umuhoro, igitiyo ndetse n'ibindi bitandukanye byerekana ko abana bakwiye gufata ibikoresho by'ubuhinzi m'umutwe.

Itsinda ry'abana bateraniye hamwe, bafashwa n'umwarimu kuberekera uko mudasobwa ikora ndetse bagerageza no gufata ubumenyi kuri yo.

Icyumba cy'ishuri cyagenewe kwigirwamo, ahari umuryango usa icyatsi ufiteho ingufuri ariko usa nk'uwegetseho, bityo abanyeshuri bakaba bataragera aho bigira.

Ikibaho cyanditseho imibare igiye itandukanye, kuva kuri magana inani na rimwe kugera kuri magana acyenda, aho bigisha abana gusoma imibare ndetse no kuyandika mu buryo bwiza.

Umuhanda nyabagendwa, werekera ku kigo cya Edeni gifite amashuri y'incuke, ndetse n'abanza, aho abarezi benshi bagomba kujyana abana babo kwiga.

Icyumba cy'amashuri kirimo ibikoresho byose, intebe ntoya, pipitire ndetse n'akabati ko kubikamo ibikoresho by'abanyeshuri, bityo bigafasha abiga kugira ngo babeho batekanye kandi biga bafate.

Abana batoya bateraniye hamwe basoma igitabo bungurana ubumenyi ndetse baganira ku bigiye bitandukanye, bityo bikabakangura mu mutwe ndetse bakabona n'icyo bakwiriye gukora.

Ikibuga cy'umukino w'amaboko wa Basket, kiri imbere y'amashuri, aho abanyeshuri bakinira, mu gihe bagiye mu masaha y'ikiruhuko, bityo bikabafasha gusubiramo amasomo yabo neza.

Icyumba giteguye neza kirimo ameza, intebe n'ifoto y'umuyobozi ku gikuta ndetse n'icyete cyerekana ubushobozi afite, aho bisa nkaho ari ibiro.

Mu kibuga cy'umukino wa Basket hagati y'amashuri ndetse n'igiti cy'inganzamarumbo, ahari abagabo bambaye imyenda isa bityo bakagira intego imwe.

Abana bicaye hamwe, bafite umubyeyi uri kubaganiriza, abaha ibitabo bagasoma bakunguka ubumenyi, ndetse bakabana n'abandi neza muri sosiyete.

Urupapuro ruriho ibishushanyo bitandukanye, bikangurira abana gutega amaso n'amatwi, kugira ngo bamenye Igifaransa, harimo ibiti, igare, ameza, inzu, imodoka ndetse n'igikombe.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe ziteguye neza, harimo umwana wicayemo ndetse n'ikibaho cyanditseho inyuguti ndetse n'inyajwi, bigaragara ko bigishwa.

Abanyeshuri bafite ibikapu birimo amakayi, bambaye inkweto zifunguye binjira mu muryango w'ishuri, aho bagana mu byicaro kugira ngo batangire amasomo yabo.

Umuhanda nyabagendwa, wegeranye n'ikigo cy'amashuri, harimo abanyeshuri bari gukina, ndetse n'abarezi, barimo batembera hagati muri bo.

Abana bari gukina hanze mu kibuga, cy'amashuri, harimo ab'imyaka mito n'abayigiye hejuru. Mu gihe cy'amasaha ya saa sita, bataha bajya kurya.

Ishuri ririmo abana bari kwiga bafite mudasobwa y'abana, aho bibukiranya ibyo bize kugira ngo babazwe neza kandi bakora n'imbonerahamwe y'amasomo yabo.

Ishuri ririmo ibikoresho byose n'abanyeshuri bicaye bategereje mwarimu, hari ikibaho ndetse hakaba hari n'uburezi budaheza, aho n'abafite ubumuga bashobora kwiga bigakunda.

Ikigo cy'amashuri kirimo abana bagiye batandukanye, aho bakina ndetse bakisanzuranaho bityo bigatuma biga bakagira uburere bukwiriye ndetse n'undi, mwana ufite agakapu karimo ibikoresho by'ishuri.

Imwe mu ndangagaciro z'Abanyarwanda bakwiye kugira ivuga Ndi umunyarwanda, isano ihuza Abanyarwanda batewe ishema no kuba Abanyarwanda, bahuriye ku gukunda u Rwanda, kururinda no kuruteza imbere, bityo bakaba Abanyarwanda buzuye.

Abanyeshuri bamwe bari kubyina gakondo abandi babafasha gukoma amashyi banabaririmbira mu guhamiriza ndetse banidagadura mu buryo bwo kwibuka no kugira umuco nyarwanda.

Abanyeshuri bari mu ishuri bafite amakayi ndetse n'ibindi bikenerwa, bambaye inifomu z'ubururu, kandi bicaye bategereje icyo mwarimu ababwira n'ubwitonzi bwinshi.

Ikigo cya segonderi gishinzwe kwakira abana, aho gifite uruzitiro, ndetse kikaba gitanga n'ikaze ku bashaka kukigana, ahubatse amashuri ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inyubako igeretse y'amashuri, aho abanyeshuri bigira kandi bagafatira ubumenyi, bityo bikabafasha kumenya, ndetse hakaba hari n'ubusitani bwiza bwa jaride.

Ikibuga cy'umukino w'amaboko wa Basket, aho abanyeshuri bari gukina ndetse bisusurutsa kugira ngo batunge amagara yabo mazima.

Ikipe ebyiri, zigaragara. Imwe yambaye ubururu, indi yambaye umuhondo. Aho bagiye guhura bagakina hagati harimo, umusifuzi. Kugira ngo atangize igikorwa.

Ishuri ririmo umwana, aho ku kibaho handitse amatariki y'ukwezi n'umwaka, biga Icyongereza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bari hamwe bakora ikizami, bicaye mu cyumba k'ishuri, aho bari kumwe n'umwarimu wabo agenda abafasha gusobanukirwa.

Abanyeshuri benshi, bari mu nzu mberabyombi, aho bagirwa inama, bakurikiye ubabwira z'uko bakwiye kwitwara, mu gihe bari muri sosiyete.

Umuhanda nyabagendwa usashemo amabuye, aho hari amazu agiye hakikije ndetse n'insinga z'amashanyarazi n'ibiti bigiye biteye hafi bitanga akayaga keza.

Inzu irimo uburyamo busashe neza ndetse hari n'umwuka uhagije, aho abanyeshuri baryama batuje kandi bagasinzira neza, bityo ubuzima bugakomeza kubungabungwa.

Ikigo cy'amashuri kirimo inyubako zabugenewe, ahari ubusitani bwiza ndetse n'indabyo zisa umuhondo, hari imiryango irenga itanu bityo bikakira abanyeshuri bagiye batandukanye.

Ururwunge rw'abanyeshuri, barimo kwiga no kwitoza kuba abaganga, aho ikigo cyitwa NIRDA cyita ku bumenyi bw'isi ndetse na laboratwari, gitanga serivisi zigiye zitandukanye, ndetse kikerekana n'intego gifite.

Umuhanda wa nyabagendwa urimo abagenzi b'abanyeshuri bahetse ibikapu bajya kwiga, harimo ibikoresho bibafasha mu masomo yabo ndetse bituma batsinda neza.

Inzu mberabyombi irimo abanyeshuri bambaye ubururu, umweru ndetse bafite n'umuntu ari kugenda abaganiriza, abaha inama z'ubuzima.

Abanyeshuri bari gufata amahugurwa mu ishuri, aho biga kudoda imyambaro itandukanye, bagahabwa n'ubumenyi bw'amaboko, bagakora byinshi bakamenya no kwihangira imirimo.

Ishuri ririmo ibitabo ndetse n'amakaye y'abana, ingwa na mwarimu urimo kubigisha kandi yanditse no ku kibaho, abasobanurira ibyo ari gutanga.

Abanyeshuri bajya kwiga, bafite ibikapu bibafasha kubika amakayi, mu masaha ya mu gitondo, bajya gushaka ubumenyi, aho biga byinshi bigiye bitandukanye.

Inyubako ifite imiryango myinshi, ahari ubusitani ndetse hari n'utuyira tujyamo tunavamo haparitsemo n'imodoka y'abayobozi.

Abanyeshuri bari hamwe, bicaye hasi mu kigo cy'amashuri, aho umuyobozi wabo abaha imbwirwaruhamwe z'uburyo bagomba kwitwara mu buryo bwose, kandi bakagira na discipline.

Uruvunge rw'abanyeshuri benshi, bafite ibikoresho bitandukanye, za matera, ibikapu, aho bari gufata imodoka kugira ngo batahe, berekeza mu rugo, igihe cy'amashuri.

Itsinda ry'abanyeshuri benshi bateraniye hamwe bari kumwe n'umuyobozi wabo, ababwira inama ndetse n'icyo bakwiye gukora kugira ngo babeho kandi batsinda amasomo yabo, mu buryo bwiza cyangwa se ububi.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, barimo mu bizami, aho umwarimu ababaza ibyo bakeneye, buri mwanya bakamusobanurira igikwiriye gukorwa, bityo uburezi bukagenda neza.

Ikipe y'abakinnyi batandatu, aho bari gushishikarizwa gutsinda ndetse bakagira n'umuhate mu byo bakora, inyuma hakaba hari abafana ndetse akaba ari umukino w'amaboko.

Abanyeshuri bari ku mirongo, aho babwirwa imbwirwarahame zigiye zitandukanye, zibubaka ndetse zikabahindurira n'ibitekerezo, bityo bakavamo abana bifuzwa ndetse urubyiruko rw'ejo hazaza h'igihugu.

Ikigo cy'amashuri cy'urwunge, cya ofisiyeri ya Butare, aho biga indatwa n'inkesha, kikagira amarembo magari, aho abanyeshuri binjirira ndetse banasohokera.

Itsinda ry'abantu babiri bambaye nkabaganga, barimo bareba ibizami bakoresheje icyuma cyabugenewe kugirango bamenye neza indwara z'ibyo barimo gupima.

Itsinda ry'abanyeshuri bicaye hamwe mu ishuri ndetse n'umwarimu urimo kubafasha kwiga, aho ari gusobanura ibijyanye n'amasomo yabo na bo bagakurikira, bakumva igikwiriye.

Umuhanda ugaragara usashemo amapave, hagaragara imodoka iparitse ndetse hari n'amashuri yigirwamo n'abanyeshuri biga ubumenyi rusange ndetse n'iby'imiti.

Icyumba gisashemo tapi kirimo ibikoresho byose nkenerwa kugirango ahabe, amavuta, igihumura neza, uburoso na kologate, udusokozo, isaha, telefone, ndetse n'ibindi byifashishwa kugira ngo umuntu abe ahantu.

Icyumba cy'ishuri cyaringanijwe ku kuba kwigwamo, hari ikibaho ndetse hakaba harimo gusanwa kugirango hongerwe higerwemo nk'uko bigaragara.

Amacumbi y'abanyeshuri ryubatswe ageretse gatanu, aho baba bacumbitse, ndetse bakorera ibikorwa byabo bya buri munsi kugira ngo babeho kandi bagire ubuzima bwiza.

Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, hagaragara amarembo rusange kwinjiriramo, ndetse n'amacumbi y'abanyeshuri, aho baba mu gihe bavuye kwiga amasomo yabo.

Ahantu hateraniye abantu benshi, ahari gahunda z'amahugurwa, hari ibigo bya Leta nka REG, ndetse n'ibindi bihe bitandukanye mu gushishikariza abantu serivisi batanga.

Ibikoresho by'isuku ndetse n'ibyo kwifashishwa birimo amazi, ibikombe, impapuro, umutaka, intebe ndetse n'ameza, aho bikenewe ugomba kubikoresha kugira ngo yirinde kandi agire ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bworozi, aho hari ibishyushya amagi ndetse bikanayararira bityo bigatuma umusaruro ukomeza kwiyongera mu buryo bwose. Harimo n'umukozi ubishinzwe kubyitaho.

Igitambaro cyerekana iby"iwacu business group" ikorera mu Rwanda, harimo serivisi batanga, hari uguhugura, kugenzura, gutanga amasomo ndetse no gukoresha ibikoresho by'umuziki, bakabigufasha bakanabikugezaho muri rusange.

Icyumba cyabuhariwe kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, kijyanye n'ubuvuzi aho bakoresha ibigiye bitandukanye kugira ngo bamenye ubumenyi bwa muntu.

Kaminuza y'u Rwanda, ishuri ry'ubumenyi n'ubuvuzi rusange ndetse n'imiti, aho abanyeshuri biga ibijyanye n'ibyo byavuzwe haruguru.

Itsinda ry'abanyeshuri bicaye hamwe, barimo gukoresha mudasobwa mu kwiga ndetse bakoresha amakaye n'amakaramu kugira ngo babone ubumenyi kandi bagire byinshi bungukira ikoranabuhanga.

Ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyigiro, rya IPRS Tumba. Aho abarigana basobanurirwa ibikorerwamo, ndetse bakerekanwa n'ubuhanga. Bw'ubumenyingiro bafite muri icyo kigo.

Umuhanda nyabagendwa uri mu kigo, aho hagaragara inyubako ya etaje, ndetse n'abagenzi bagenda n'abagaruka, byerekana ko ari ahantu hari abantu, kandi haba abanyeshuri benshi.

Kaminuza y'u Rwanda, Ishami rya Huye ni ikigo gishinzwe ubuvuzi rusange ndetse n'ubumenyi bwa muntu, ni ishuri ry'ubuvuzi ndetse n'imiti, aho bavuga intego yabo ndetse n'impamvu iryo shuri rihari.

Inyubako ya kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho yubatswe n'Ababiligi, ahagana mucya maganacyenda mirongo ine n'umunani, ndetse n'icya maganacyenda mirongo ine n'icyenda. Ikaba, ari iy'ababikira b'abazungu, bityo ikaba yigirwamo n'abanyeshuri ba kaminuza.

Itsinda ry'abantu benshi bicaye mu cyumba cy'ishuri, aho basa nk'abanyeshuri bafite umwarimu uri kubigisha, kandi bakoresha n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Itsinda ry'abanyeshuri bicaye hamwe, bari imbere ya mudasobwa buri wese afite iye, imbere hari umwarimu uri kwigisha, bafata ubumenyi ku isomo runaka.

Abantu barenze umwe, bicaye ku meza bafite, ibikoresho by'ikoranabuhanga, terefone n'imashini za mudasobwa, barimo kwandika, ndetse batekereza ku mishinga yagutse.

Isomero rusange, aho ibitabo bigiye bitandukanye, bifasha kungura ubumenyi, ndetse ukamenya byinshi bigiye biruseho, bityo bigatanga umucyo ku bivugwa ukisomera ukamenya.

Universite de Catholique y'u Rwanda, aho itanga uburezi ku banyeshuri bose babyifuza, bityo igatuma abayigana bagira icyo bayimenyeraho. Kuko ari ishuri rya leta.

Itsinda ry'abanyeshuri bari kwiga kuvura bafata ibizami kandi bagatanga raporo y'ibyo bakoze, bityo bakamenya byinshi bakagira n'ubumenyi bugiye butandukanye ku buvuzi.

Inzu ziri mu gipangu kimwe, mu miryango aho ibamo amacumbi y'abanyeshuri, aho baba mu gihe bavuye ku ishuri batashye bagakora imirimo yabo bagasubira mu masomo.

Itsinda ry'abantu bicaye batekerereza abaturage, aho batanga ingingo zigiye zitandukanye, n'umugore uri kuvuga, atanga ibitekerezo.

Imodoka ya kaminuza y'u Rwanda, itwara abanyeshuri mu ngendoshuri zigiye zitandukanye, aho babona ubumenyi, bakagenda bunguka ndetse babona n'igihugu muri rusange.

Ubusitani bwegereye umuhanda nyabagendwa ahari ibyatsi byiza, ibiti bitanga akayaga ndetse n'uruzitiro rw'ibyuma. Imbere harimo inzu zubakiye neza kandi zifite umutekano.